Abagabo umwe, babiri, batatu, bane bigaragara ko umwe, afashe icupa ry'amazi mu ntoki ndetse yambaye n'isaha babiri bambaye imipira y'umweru hejuru bakaba bari kwitegereza icyapa cyanditsweho amagambo y'icyongereza ngo muwa, bisobanuye muwa wa incuwarense Rwanda rimi tedi, igaragaza ko bishimiye. Iki kigo gitanga ubwishingizi ndetse ibikuta by'inzu barimo bikababitera irangi ry'umweru.

Umugabo wambaye ingofero ndetse akaba afite igikoresho cyagenewe mu itumanaho bakunze kwerekana terefone uri kwerekana ibyo yishimiye ndetse hakaba handikishijweho amagambo y'icyongereza avuga ngo riniyu yuwa kava ini minati, bigaragara ko yishimiye ibyo bamuhaye.

Ishusho riri mu ibara ry'umuhondo cyane ryandikishwa amagambo y'umukara bigaragara ko ari ishusho iri mugikoresho cyagenewe itumanaho hakaba handitsemo ururimi rw'icyongereza ngo your transaction was successful .

Isoko ririmo imyenda myinshi imanitse hejuru, amatara akaba ari kwaka hejuru ndetse hasi hakaba hasa neza bigaragara ko harimo n'abantu n'ibikoresho byagenewe mu gufata amashusho y'abantu binjiye aha hantu.

Akabati karimo imisego abantu bisegura igihe baryamye gateye irangi ry'umweru, ndetse n'inanasi ziri mu kabati bigaragara ko amatara ari kwaka hasi hakaba hari amakaro y'umweru inkuta ziteye amarangi y'umweru.

Abantu umwe babiri bigaragara ko umwe afite mudasobwa imbere ye undi akaba ari kuzinga imyenda, urukuta muri iyi nzu ruteye irangi ry'umweru, bigaragara ko hamanitsemo amakanzu meza ku buryo bacuruza imyenda hano hantu.

Imodoka ifunguye urugi, mo imbere haragaragara uko iyo modoka iteye. Imbere y'iyo modoka hari izindi nyinshi, bigaragara ko ari ahantu bacururiza imodoka.

Imodoka ikingiye, aho barikwerekana imyanya yayo, hakurya hakaba hari indabyo, ubusitani nitara rimurikira hano hantu izi modoka ziparitse, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakaje amabati y'umutuku , igihe cyakumanywa akazuba kari kwaka.

Imodoka imwe ebyiri eshatu enye zagenewe gutwara abagenzi ku buryo bwa rusange zihagaze inyuma hakaba hari urugo ruzikikije ndetse n'inyubako ndende ikozwe y'ubakikijwe amabati ndetse n'ibiti birebire hirya bigaragara ko ari imiturire.

Umugabo umwe, babiri, bambaye ishati z'umweru bombi umwe akaba yambaye ingofero, bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka, bigaragara ko inyuma yaho haparitse imodoka y'umweru igaragara ko iri kugurishwa, iyi nzu ifite ibirahuri bibonerana, inzugi ziteye amarangi y'umukara urukuta ruteye irangi ry'umweru, insinga z'amashanyarazi ziriguca hejuru ndetse n'ibiti biri ku ruhande.

Umugabo ufite amafaranga menshi cyane imbere ye aziritse, bigaragara ko afite n'imashini irimo iramufasha kuyabara. Amafaranga menshi y'inote za magana atanu ndetse na magana atandatu bigaragara ko ateretse ku meza ari kuyabara.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bigaragara ko baje guhabwa ubufasha, umwe yicaye mo imbere, ari kureba muri mudasobwa abandi bafite bikoresho byagenewe mu itumanaho, bigaragara ko ari aho batangira amafaranga, bakaba baje kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga.

Ibiganza bibiri ndetse bigaragara ko uyu muntu yambaye isaha akaba ari kubara amafaranga menshi y'inote, ndetse imbere ye hakaba hari n'imashini imufasha kuyabara, bikaba bigaragara ko ari mu gihe cya nimugoroba atarimo kugaragara neza.

Inote y'amafaranga y'U Rwanda yandikishijeho amagambo yo mu gifaransa, ndetse hakaba hariho n'ikirangantego cy'U Rwanda amafaranga ijana hakaba handiteho sa furanse mu rurimi rw'igifaransa.

Ikiganza kiri gukanda ku mashini ibara amafaranga bigaragara ko hari amafaranga ateretse hejuru ndetse amafaranga menshi cyane ari kubarwa ndetse imashini ikaba ifite ikaba ifite ibara ry'umukara iteretse ahantu hari igitambaro cy'umweru.

Umugabo umwe, babiri aho umwe yambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse bigaragara ko ari gukoresha imashini yagenewe kubara amafaranga bigaragara ko ari aho batangira ubufasha ndetse n'undi akaba ategereje ko bamuha aya mafaranga ndetse na mudasobwa iri imbere mu birarahure y'umukara.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, aho abana babiri bicaye bari kunywa amata, ameza asa umweru n'intebe zisa umweru ndetse n'ubujerekani bw'umweru, hakurya hakaba hari inzu ifite ibirahuri by'umukara ndetse hakurya na none hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi.

Urugi ruteye irangi ry'ubururu rukinguye hasi hakaba hari amakaro, ndetse n'amajerekani yanditseho ngo jibu bigaragara ko azanwamo amazi. Igikoresho cyabugenewe mu gukonjesha ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya.

Abantu, umwe, bairi, bigaragara ko ari ubucuruzi aho bacururiza amata, ibyo kunywa, amazi, hasi hakaba hari amakaro y'umweru, hejuru hakaba hari parafo ikeye imeze neza, bigaragara ko bacuruza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Akabati karimo ibikombe, hejuru hakaba hateretse indobo irimo amandazi, ndetse mu kandi kabati hakaba harimo amakarito arimo amata, amacupa y'amazi n'amasahani y'umweru. Bigaragara ko hano hantu hacururizwa ibyo kunywa no kurya.

Abantu, umwe, babiri, batatu, babiri bambaye imipira y'umutuku ndetse n'ingofero, bafite ibyo kunywa mu ntoki bagaragaza ko bari kubyamamaza, inyuma yabo hakaba hari ibicuruzwa byinshi, amatara ari kwaka hejuru, hasi hakaba hari amakaro y'umweru.

Isahane iteretseho ibyo kurya bakunze kwita ibiraha cyangwa isambusa, bigaragara ko ari ku meza, bigiye gukarangwa mugihe cya mugitondo rwose hakeye cyane.

Umuntu ufashe ikigoresho cyagenewe mu itumanaho bakunze kwita terefone mo hagati hakaba handitsemo ururimi rw'icyongereza ngo payment complete hakurya hakaba hari ibyapa bigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru uwo muntu akaba yambaye umupira w'umuhondo hasi hakaba hari icyapa cya MTN cyanditseho ngo MOMO.

Mudasobwa iri kwaka ikaba iri kugaragaza urupapuro rw'umweru rwandikishijweho amagambo y'umukara ndetse n'imibare, icyapa k'ikirangantego k'igihugu hejuru mu nguni ndetse bigaragara ko urupapuro rw'inyemezabwishyu rwa banki.

Mudasobwa iri kwaka ikaba iri kugaragaza urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, hejuru ibumoso hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda bigaragaza ko ar'urupapuro rwerekana uburyo ki umuntu yabikije amafaranga cyangwa se yayabikuje.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijweho amagambo y'umukara ndetse hejuru hakaba handitseho ngo " Beka yacu", bigaragara ko ari urupapuro rwerekana uburyo ki umuntu yaba yarabikije amafaranga ndetse hakaba hariho n'izina ry'umuntu ryanditswe ngo " Emmanuel Nzafashwanayo".

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga y'inote z'ijana ndetse hariho n'ikirangantego cy'umuntu, bigaragara ko uyu muntu arimo arayabara, amatara ari kwaka hakeye, ndetse n'ameza y'umukara arambitseho aya mafaranga.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi yambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye isaha kukuboko, ipantaro y'umukara, amafaranga menshi ateretse ku kameza mu gihe cya nimugoroba bigaragara ko amatara atari kwaka.

Imashini yagenewe kubara amafaranga ikaba iri kubara amafaranga y'inoti z'ijana, hakaba hariho n'ikirangantego cy'umuntu ndetse hirya bikaba bigaragara ko harambitse n'igikoresho cyabugenewe mu itumanaho, ku manywa amatara akaba arimo araka, imashini ibara aya mafaranga ikaba isa umweru.

Amafaranga menshi y'inote agiye ariho ibiranganeho bitandukanye by'abantu ndetse bigaragara ko azirikishijwe udukoresho twabugenewe ateretse ahantu hamwe mu gihe cy'umugoroba amatara atari kwaka ndetse akaba ari menshi cyane.

Inoti iriho ibirangantego by'umuntu wambaye indorerwamo zabugenewe kureberwamo w'umusaza ndetse bigaragara ko ari amafaranga magana abiri, yanditwseho mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'igihinde.

Umuntu umwe, babiri, batatu bigaragara ko bari guhererekanya amafaranga ndetse mu birahure bigaragara ko hirya hari n'undi uri kubara amafaranga, aha hantu bikaba bisa nk'aho hatangirwa ubufasha bujyanye no kubika amafaranga ndetse no kuyatanga.

Icyumba kirimo amakaro y'umwero urukuta ruteye amarangi y'umweru, intebe zegamirwa zirimo imifariso imeze neza, hakurya hakaba hari idirishya ririmo ibirahure riteye irangi ry'umukara bigaragara ko hasa neza amatara arimo araka mur'iyi nyubako.

Intebe yicarwaho begamira iteye ubwuzu ikoze mu buryo budasanzwe ndetse hakurya bikaba bigaragara yuko ari aho bakorera intebe zigiye zitandukanye mu igihe cya nimugoroba hatari kugaragara neza.

Icyumba cy'inama kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza meza. Hejuru y'ameza bateretseho amacupa y'amazi, amatara akaba arimo bigaragara ko hakeye,

Umumama bigaragara ko ashinzwe gutanga ibyo kurya cyangwa kunywa ahantu, ndetse hakaba hateguye neza intebe zikozwe mu mbaho ziteye neza, ubusitani bw'indabyo, ndetse n'ibiti hakurya, bigaragara ko hari ahantu abantu biyakirira, ndetse hateye neza rwose.

Inyubako irimo ameza ateretseho ibikombe by'ibirahure, ibiyiko ndetse igisenge cyubakishije ibiti bigaragara ko ari ahantu abantu biyakirira intebe zo kwicaramo z'umukara zegamirwa hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'ibirahure.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, bigaragara ko ari mu nzu icyeye, inyuma ye hakaba hari imitako ndetse n'urukuta ruteye irange ry'umukara, amatara akaba ari kwaka, hasi hakaba hari amakaro y'umweru ndetse n'intebe zegamirwa z'umukara.

Inyubako ndende zisakajwe amabati atukura, ubusitani bw'ibiti birebire ndetse urugi rwo ku rugo rukaba rukinguye, ikirere gifite umweru mwinshi n'ubururu bwinshi bigaragara ko gikeye.

Inyubako ndende iteye amarangi y'umweru ibirahuri birerwamo ndetse hanze hakaba hari icyuzi abantu bogeramo ndetse n'intebe bicaramo bamaje koga, ubusitani bw'ibiti birebire bigaragara ko akazuba karimo kararasa mugihe cya mugitondo.

Inyubako ndende bigaragara ko amatara ari kwaka, hasi hakaba hari ibiti by'ubusitani ndetse n'ibyuzi byo kogeramo mu gihe cya nimugoroba izuba rirenze, ndetse bikaba bigaragara ko ari inyubako yakira abantu baje kuruhuka no kurya amafaranga.

Inyubako ndende iteye irangi ry'umukara, ifite ibirahuri by'ibara ry'icyatsi cyijimye. Ikikijwe n'ibiti birebire kandi iri ku muhanda wa kaburimbo.

Intebe nyinshi ziri ahantu heza zisa umweru, ndetse n'ameza ateretseho ibyo kunywa, ibyo kurya, imitaka hakurya irinda imvura. Bigaragara ko hari n'ibyuzi bibafasha koga, ahantu rwose basohokera.

Inyubako ndende ifite amadirishya menshi ndetse hakaba hari n'amabendera atatu bigaragara ko ari inyubako ifite n'ibirahuri by'umukara iteye irangi ry'umuhondo ikirere kiri kugaragaza ubururu bwinshi ndetse n'umweru.

Icyumba cy'inama kitarimo abantu, ariko hakaba harimo ameza n'intebe biri ku murongo. Intebe z'umukara ndetse urukuta ruteye amarange y'umweru, imbere hakaba hari icyapa cy'umweru cyanditsweho amagambo y'ubururu, hakaba handitseho Sanlum.

Icyumba kirimo mudasobwa ameza ndetse n'ububati babikamo ibintu, intebe bicaraho z'umukara zikaba zegamirwa, urukuta ruteye irangi ry'umweru hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho ngo inshuwarensi mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako ndende igizwe n'ibirahure byijimye ndetse n'amakaro y'umweru, hasi hakaba hari ubusitani bw'ibiti. Hakaba hari icyapa cyanditseho ngo mowa inshuwarensi bigaragara ko hari aho batangira ubwishingizi ndetse n'icyapa kiyobora abantu n'aho ibinyabiziga bigomba gupatika.

Umugabo wambaye ikote rinini, ipantalo n'inkweto by'umukara, mu gihe yambariyemo ishati y'umweru. Ahagaze ahantu hameze nko mu biro kuko inyuma ye hari mudasobwa y'umweru iri ku meza.

Icyapa kiriho umugabo wambaye ikote ry'umukara, n'isaha, na karuvate y'umukara, kigizwe n'ubuso bw'ubururu, bwijimye hakaba handitsemo ngo iyubake mu rurimi rw'ikinyarwanda, bigaragara ko ari icyapa kiri kuburira abantu uburyo bashobora kwiyubaka.

Isoko ry'abaturage aho bigaragara ko hari amashitingi ashashe hasi, hakaba hariho inkweto z'amoko atandukanye ndetse n'ibitenge bimanitse bigaragara ko ari agasoko kari aho ngaho gafasha abaturage kuza kwihahira.

Imodoka nyinshi ziparitse mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hakaba hari inyubako nyinshi, ndetse n'ibiti bigiye biri muri izi nyubako, bigaragara ko ari igihe cya kumanywa akazuba kari kwaka ndetse n'imisozi hakurya amabati atukura.

Isoko ririmo gucururizwamo ibiribwa bitandukanye, birimo ibirayi, karoti, imboga n'ibindi. Umugore ukuze yambaye amadarobindi ndetse n'igitambaro mu mutwe, arasa n'aho ari we uri gucuruza. Hirya ye hari abandi basore babiri.

Abantu benshi bari mu nyubako, bigaragara ko hari umugabo ufite indobo irimo ibyo bakunze kwita ibiraha cyangwa isambusa, bigaraga ko ari gucuruza abantu, b'abakobwa, inyubako ikaba irimo irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Mu isoko ry'ibiribwa birimo ibishyimbo, imineke n'ibindi byinshi. Harimo abagore bakuze barimo gucuruza banaganira hagati yabo.

Isoko ririmo abantu benshi akaba harimo imineke, inanasi, amaronji, inyanya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, bigaragara ko ari agasoko ko ku muhanda gacuruza neza cyane.

Abantu benshi barimo n'abayisiramu ndetse bigaragara ko hari n'udutebe dukozwe mu mbaho two kwicaraho, inyubako irimo inkingi ziteye irangi ry'umuhondo, inanasi ziri hejuru, bigaragara ko hano ari inzu y'ubucuruzi.

Inyubako ndende igeretse rimwe kabiri iteye irange ry'umweru imbere hakaba haparitse imodoka yagenewe gutwara imicanga n'amagaraviye ku muhanda wa kaburimbo warebera hejuru warebera hejuru y'inyubako ugasanga hakurya hari umusozi urimo ibiti byinshi bigaragara nkaho ari ishyamba.

Umuntu uri mu kazu gateye irange ry'umuhondo bigaragara ko ari gutanga ubufasha kubijyanye n'ikigo gishinzwe itumanaho emutiyene mu Rwanda. Hakurya hakaba hari inyubako ifite amabati y'umutuku ndetse n'ishyamba ryinshi, bigaragara ko hari n'insina muri uru ruzitiro rw'ibiti ruri inyuma y'aka kazu

Ibiti byinshi ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi ryegereye akazu gateye irangi ry'umuhondo ka emutiyeni ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, ndetse bigaragara ko kari ku muhanda wa kaburimbo.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bane bambaye imipira y'umweru ndetse n'undi bigaragara ko yaje kubaka ubufasha, ahantu hateye ibara ry'umuhondo ndetse n'amatelefoni, bigaragara ko ari aho batangira ubufasha ku bijyanye n'itumanaho rya Emutiyeni.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyandikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'imibare bigaragaraza ko ar'icyapa cy'ikigo gishinzwe itumanaho emutiyeni mu Rwanda cyanditseho amagambo y'ikinyarwanga ngo ishyura na momo payi.

Akazu gateye irangi ry'umuhondo mu magambo y'umukara, bigaragara ko ari akazu kerekana ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, Emutiyeni, abana bahagaze imbere yako ndetse hakaba harimo n'umuntu wambaye ishati y'umweru, hakurya hakaba hari amazu yo guturamo.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Inyubako zifite amabati y'umutuku ndetse bigaragara ko ari inyubako nziza ziteye amarange y'umweru, urugo rwubakishije amatafari bakunze kwita Boroke sima mu rurimi rw'icyongereza, bigaragara ko izi nzu ziri kugurishwa mu mujyi wa Kigali.

Inyubako igeretse ifite urugo rwubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko haparitsemo n'imodoka ntoya iteye irangi ry'umutuku ndetse n'ubusitani, hakurya hakaba hari n'ikigega gifata amazi, bigaragara ko aha hantu hakodeshwa ibihumbi magana abiri mu mujyi wa Kigali.

Icyumba kirimo uburiri busashe neza, ndetse n'ibikoresho bimwe bitanga umuyaga igihe ubushyuhe, n'ibindi bikoresho by'amatara, urukuta ruteye irangi ry'umweru, ndetse n'ibitambaro byagenewe kwemerera urumuriko rwinjira mu nzu cyangwa se rutinjira mu nzu.

Ibikoresho byo mu nzu birimo firigo, ibyo mu gikoni nka gazi yo gutekesha ndetse n'amashyiga yayo. Ibi bikoresho biri kugurishwa. Biherereye Kabeza mu Mujyi wa Kigali.

Icyumba cy'ubwogero, bigaragara ko harimo amakaro yometseho, idirishya riteye irangi ry'umukara n'ibirahuri bibonerana ndetse n'ubwiherero bwa kizungu, hasi hakaba hari amakaro ndetse n'igikoresho gifasha amazi gusohoka umuntu akagifata akiyuhagira, bigaragara ko gikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu.

Umumama n'umugabo bigaragara ko umwe ari umwirabura undi akaba umuzungu bahagaze mu busitani bw'ibyatsi, inyuma yabo hakaba hari urugo ruteye irange ry'umweru ndetse n'icyuzi cyagenewe kogerwamo bigaragara ko ari igihe cya kumanywa akazuba kari kwaka.

Inyubako iteye irangi, umutuku, umweru inzugi ziteye irange ry'umweru bigaragara ko hasi hari amakaro mu busitani bw'ibyatsi bigufi ndetse' birebire bikaba bigaragara ko iri gukodeshwa mu mujyi wa Kigali kimironko ifite ibyumba bibiri dushe eshatu akaba ikodeshwa ibihumbi magana tatu na mirongo itanu.

Inyubako ndende ifite amabati y'umutuku, urugo ruteye irangi ry'umukara ndetse n'inzugi ziteye irangi ry'umukara bigaragara ko amatara arimo araka ndetse ikirere kikaba gikeye, iyi nzu ikaba ikodeshwa Kimironko Kigali, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Urugi rukinguye ruteye irangi ry'umweru, ibirahuri byijimye hakaba harimo n'igitambaro cyabugenewe kugira ngo urumuri rwinjire mu nzu, amatara akaba ari kwaka igikuta giteye irangi ry'umuhondo ndetse n'ubusitani imbere y'iyi nzu.

Inzu nziza cyane yo mu bwoko bw'izo bakunze kwita 'uducurama'. Ifite imbuga ngari cyane kandi isakaje amabati y'umutuku. Iyi nzu ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, ikaba iherereye mu Kagarama. Ikodeshwa ibihumbi 600 Frw.

Inyubako ndende iteye amarange y'umweru ndetse n'umuhondo, ibirahuri by'umukara byijimye, inzugi ziteye irangi ry'umukara bigaragara ko iyi nzu irimo iragurishwa, ikirere kikaba gikeye gisa neza mu gihe cya kumanywa.

Inyubako ibyire ndende zifite amabati y'umutuku n'ibyuma biteye iragi ry'umukara, n'amaragi y'umweru ataye ku gikuta, bigaragara ko izi nyubako Zikondeshwa kimironko mu mugi wa Kigali. N'ubusitani buri mu gipangu.

Inyubako igeretse rimwe iteye amarange y'umweru ndetse nziza cyane imbere hakaba hari ibikombe byagenewe gushyiramo indabyo ku girango zituma, urugi ruteye irange ry'umukara bigaragara ko iyi nyubako irimo irakodeshwa i Kigali.

Inyubako isakaje amabati asa umutuku, amarangi y'umweru ku nkingi ndetse n'ibyuma byagenewe gutangira abantu biteye irange ry'umukara. Bikaba bigaragara ko iyi nyubako ikodeshwa i Kanombe, ifite ibyumba bitatu ndetse na dushe eshatu, ibihumbi magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako ikodeshwa ibihumbi magana agiye ifite urugo rwubakishije amatafari ahiye hakurya hakaba hari insina ndetse n'ubusitani n'ibikombe byagenewe gushyiramo indabo ziteretse impande y'inyubako, inkingi ziteye amarangi y'umweru urukuta ruteye amarangi y'umweru ndetse n'umukara n'inzugi ziteye irangi ry'umukara.

Umuntu umwe babiri batatu bane bigaragara ko bari mu isoko ricuruza inkweto, ibikapu, imikandara ndeste n'ibintu byinshi bitandukanye. Amatara akaba arimo araka mugihe hakeye rwose abantu bari kwitegereza ibyo bagura.

Inyubako igaragara ko icururizwamo ibyo kunywa hakaba hari intebe abantu bicaraho ndetse hakaba harimo abantu bambaye imipira y'umuhondo bigaragara ko bashinzwe gutanga ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya ku bakiriya amatara akaba ari kwaka ku rukuta ruteye irange ry'icyatsi bigaragara ko ari ahantu hacyeye n'intebe zimeze neza zo kwicara kandi zegamirwa.

Inyubako ndende igeretse rimwe kabiri gatatu kane bigaragara ko ari inzu y'ubucuruzi, iriho ibyapa bitandukanye bigenda byerekana ibicuruzwa biri aho hantu. Ikaba iteye irange ry'umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro bigaragara ko ari inyubako nziza ikeye cyane.

Abamama umwe, babiri, batatu ndetse umwe uhetse marete bigaragara ko baje guhaha ibintu byinshi bitandukanye ndetse ku rukuta hakaba hariho ibyapa bigaragaza ibihahwa hano hantu uko bimeze uko bimeze.

Icyapa gifite ubururu bwijimye, hakaba handitsemo amagambo y'umweru ndetse n'ibishushanyo bigaragaza abantu, hakaba handitseho ururimi rw'Ikinyarwanda aho ivuga ngo mituweli ubwisungane mu kwivuza.

Abantu benshi ndetse harimo n'abafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, bigaragara ko baje kuyafata ndetse n'abari kubandika mu bitabo, hirya yabo hakaba hari ibiti byinshi bigaragara ko akazuba kari kwaka.

Abantu umwe babiri batatu bigaragara ko umwe ari gutanga ubufasha ku bagaze imbere inyuma ha akaba ari n'undi wambaye umwambaro wabigenewe bigaragara ko ari kwa muganga inkuta ziteye amarangi y'umwerumo impapuro nyinshi z'abantu.

Umubyeyi wicaye ku ntebe y'urubaho, akaba afite amakarita abiri y'ubwisungane mu kwivuza, bigaragara ko inyuma hari inzu ifite urukuta rw'icyatsi, mu gihe akazuba kari kwaka, akaba yambaye n'ishati y'igitenge.

Umugabo wamabaye ishati y'umweru, karuvati irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru. bigaragarako Imbere ye hari ibikoresho byagenewe gufata amajwi, bigaragarako hari abanyamakuru bari kumubaza uko bimeze inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho RSSB, bigaragako ari ibijyanye n'ubwishingizi.

Umukobwa wamabaye ijipo ngufiya bagaragara ko ari ahagenewe ibyo kunywa, hakaba hari ibikoresho byabugenewe mu gukonjesha ibyo kunywa, amatara akaba ari kwaka ibikuta byometseho amakaro y'umweru ndetse n'ibirahure bibonerana. Ndetse muri ibi bikoresho byagenewe gukonjesha ibyo kunywa hakaba harimo kwakamo amatara.

Umuntu umwe babiri, bigaragara ko imbere hari icyapa cyamamaza, ndetse hakabamo na igikoresho cyagenewe kureberwaho amashusho, amatara akaba ari kwaka, hejuru hakaba hasa umweru, ndetse bigaragara ko ku rukuta hari amakaro y'umukara, ndetse n'ibikoresho byagenewe gufata amajwi, n'amashusho.

Umukobwa wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse n'ikote bigaragara ko yaje guhaha, akaba afite akantu kamufasha gushyiramo ibyo yahashye, hakaba harimo inanasi ndetse amatara akaba ari kwaka, mu kabati hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa byinshi.

Umukobwa ufite agakoresho kamufasha gushyiramo ibyo yahashye ,akaba ari mu isoko ry'ibyo kurya inyanya, ibitunguru ndetse n'ibintu byinshi, amatara akaba arimo kwaka hasi hakaba hari amakaro y'umuhondo, ndetse akaba arikuzengurukamo areba ibyo ahaha.

Abantu benshi bigaragare ko bari mu isoko mu nzu irimo amatara ari kwaka, hejuru hakaba hateye irange ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro asa umweru, ndetse bigaragara ko hari ibyapa byinshi byamamaza ibicuruzwa bya hano.